Uyu ni umukecuru wihingiye ibigori bye, akaba yarakubise sipureyiga, abitera umuti kugira ngo bizakure, abashe kubona umusaruro uhagije bitewe n'uwo yifuza ahetse cya kidomoro kiba kirimo imiti ifasha gusipureyinga.

Biragaragara ko ari umuhinzi wahinze imboga, uri kuhira imboga ze bitewe n'igihe cy'izuba cyari kibaye amazi akabura mu murima bikaba ngombwa ko agenda asukamo amazi.

Abantu bane harimo umukobwa ndetse n'umubyeyi bakaba bari gupima ifumbire y'imvaruganda, bakaba bafite umunzani uteretseho ibasi ndetse imbere yabo ku meza bafite amakayi bari kwandikamo.

Hano nk'uko mubibona ni abagabo babiri bari kuvomerera umuceri, bakoresheje ibyuma byabugenewe by'imashini, biri gupurizamo amazi. kugira babone umusaruro umeze neza.

Hano ndi kuhabona umuhinzi uri kugenda upuriza umuti, mumboga yahinze. Uwo muti ukaba ugamije kwica, udukoko, no kugirango izo mboga zikure neza, kugirango abashe kubona umusaruro uhagije.

Umugabo ufite akebo gashobora gukoreshwa uri kuroba cyangwa kuyungurura ibintu udashaka kubyivanga n'ibindi.

Abagabo babiri ndetse n'abana babiri, bakaba bafite ifi mu ntoki bavuye kuroba, uko bigaragara aho hantu hakorerwa ubworozi bw'amafi, inyuma yaho hari ibyatsi bihahinze ndetse inyuma kure hari ibiti bihateye by'ishyamba.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo amabara atambitse y'icyatsi ndetse n'ingofero, akaba ari hejuru y'ikiyaga cy'amazi, hakurya hari imibyare ndetse n'ibiti bihateye.

Hano bigaragara ko ari umugabo n'umugore bakoze icyuzi bororeramo amafi ubungubu bikaba bisa nkaho bari gusarura umusaruro wabo ariyo mafi.

Ahantu hanini hateye ibiti birebire. Imbere yaho hari amazi abantu bakoresha bari koga ndetse no kuroba amafi. Nkuko bigaragara hakurura ba mukerarugendo ndetse n'abandi bantu baza kuhasura.

Ikiyaga kinini, inyuma y'aho hakaba hateye ibyatsi birebire, mo hagati harimo abagabo bane bafite supanete ndetse bakaba bashinze n'ibiti, uko bigaragara bari kuroba amafi.

Abagabo babiri bari imbere y'abandi, umwe yambaye ingofero y'umweru ndetse n'umupira urimo amabara atambitse, undi yambaye ishati y'ikigina, hepfo no haruguru yawo bakikijwe n'amazi yororerwamo amafi.

Inzu zubatse ahantu mu gishanga, zikaba ziriho amabati y'imyeru, hirya yabo hari ibyuzi bihari ndetse n'imibyare ihateye, hepfo yaho hakaba hateye ibigori, noneho haruguru yaho hakaba hateye amashyamba.

Abantu batatu bari mu murima uteyemo icyayi, imbere hari umugore uhetse igikoresho ari gusaruriramo akaba yambaye agatambaro ku nda k'umutuku ndetse n'umupira w'umutuku.

Icyayi ni igihinga ngandurabukungu aho usanga mu Rwanda gikunze guhingwa cyane ariko kikoherezwa mu nganda noneho bakagitunganya, nyuma kikaza kutugarukira tukabasha kugikoresha.

Ndi kubona ikiranganego cy'u Rwanda. Harimo amabara y'ubururu n'umuhondo, icyatsi, n'izuba rikaba rikikijwe n'ikawa. Ika igaragara ko yakorewe mu Rwanda.

Umurima munini uteyeho icyayi, hakurya ku gasozi gahari hahinze ishyamba ndetse n'ibindi biti bitandukanye, uyu murima nta kindi gihingwa kivanzemo muri byo bintu bahahinze.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umuhinzi mu kwiteza imbere, twavuga nko guhinga ibirayi, ibijumba ndetse tutibagiwe n'ingano, ingano ni igihingwa cyiza cyane kuko kuko kivamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ahantu hanini hari imbuto zihateye zimeze nk'ikawa, zikaba ziri ku murongo ndetse zikaba zinatoshye, hakurya y'aho hari ibiti birebire bihateye birinda izuba ndetse no kuba zakuma.

Umurima uteyeho ikahwa nini igeze mu gihe cyo gusarurwa, hakurya hari imirima ikozemo indinganire ndetse ikaba iteyemo n'ibiti, ku mikingo kugira ngo bizajye bifata umurima, utazatwarwa n'isuri.

Inzu irimo akabati gapakiyemo amashashi ndetse akaba ashushanyijeho inkoko, byumvikane ko harimo imiti yazo izirinda kurwara ndetse ikazirinda n'izindi ndwara, hakaba hariho amabara y'umweru n'umutuku.

Hano ndi kubona imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo. Harimo mega mino pulasi ariyo ya yindi ikoreshwa mu kongerare imbaraga amatungo, hakaza ni uwo bita foruse.

Hano ndabona uducupa bakunda kwifashisha kwa muganga babikamo imiti cyangwa amazi mu gihe bashaka kuyaha umurwayi utari kubasha kunywa mbega muri make batwita serumu. Batwifashisha bashaka kugaburira umurwayi imiti cyangwa ibyo kurya mu mugihe atabasha kurya n'ibyo kunywa.

Hano bigaraga ko ari utujerekani tubitsemo imiti y'inka n'ingurube, iyi miti ndi kubona yitwa aribendegisi wani handeredi hariyo bita megadini kenshi na kenshi benegisi yifashishwa mu kurwanya inzoka mu nyamaswa.

Inzu isize irangi ry'icyatsi, hakaba hapakiyemo amashashi arimo amabara y'imituku ndetse akaba ashushanyijeho inkoko ndetse n'imishwi .uko bigaragara harimo imiti yazo.

Nk'uko mubibona bigaragara ko ari ibikoresho bikoresha mu bworozi bw'inkoko, ushobora kubikoresha worora inkoko ahomo ndi kubonamo icyo bita fida, ibikoresho bakoresha bagaburiramo inkoko n'icyo bita drinker, bashobora gukoresha bari guha amazi inkoko.

Uyu ni umuti bita ayiwonda pawuda, wifashishwa mu kurinda indwara zandura cyangwa ziterwa na bagiteriya, mu nka, mu hene, mu ngurube, mu mbwa no mu pusi.

Mu Rwanda cyane cyane mu karere ka Nyagatare, dusanga ahantu henshi hagaragara inzuri nyinshi, aho usanga amatungo ariho akura ibyo kurya ndetse n'abaturage usanga bakuramo inkwi zo gutetekesha ibibatunga.

Umurima munini uri ahantu heza, ukaba uteyemo ibyatsi birimo urwiri ndetse n'ibindi biti amatungo yikinga mu gihe cy'izuba, hakaba harimo inka nyinshi nini ziri kurisha.

Inka z'inyambo zifite amahembe maremare zikaba ziri mu nzira y'igitaka, hepfo yaho hari ishyamba ndetse rikaba ririmo ibyatsi, zikaba ziri gushaka kurisha ndetse imwe ikaba iri kwigendera.

Ibiribwa bitandukanye twavuga avoka, karoti, inyanya, imineke ndetse n'ibindi, bikaba birunze ahantu hamwe, uko bigaragara byasaruwe cyangwa bikaba byajyanywe ku masoko kugira ngo abaguzi baze kubona ibyo bagura.

Birikugaragara ko iki ari igiti cy'imyembe kitarakura neza cyenda kumara nk'amezi atanu gitewe ,kikaba kiri cyo nyine ahongaho muri uwo murima.

Umurima munini uteyemo ibyatsi ndetse n'imboga n'imyumbati, ukaba hepfo harimo inzu ihubatse haruguru hari ipoto rijyana umuriro w'amashanyarazi.

Umurima munini uhinzemo imyumbati ikaba igejeje mu gihe cyo kwera, hakurya yaho hari ibiti bihateye birinda muririma ko amazi yaba yawutwara cyangwa isuri.

Umurima munini mwiza uhinze neza ukaba urimo amabuye ndetse n'ibyatsi biharambitse, bigaragara ko babihashyize mu gihe bari bari kuwitaho. Hateyemo imyumbati mikuru yenda kugira mu gihe k'isarurwa.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umuhinzi mu kwiteza imbere. Mu bihingwa twavugamo nk'imyumbati imyumbati ni igihingwa cyiza gitera imbaraga, gifasha abantu mu kugira imbaraga mu bikorwa byabo bya buri munsi bagenda bakora.

Ndabona harimo umurima urimye, hari ahagiye harimye, hari ahagiye hateyemo amateke ahagana hakurya haragaragara ishyamba ritoya n' inzu, biyagaragara ko igice kinini cyane ari ikirimye n' ikirimo widizi zagiye ziba nyinshi kurusha ibimera.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane kuko gifasha umuhinzi mu kwiteza imbere, akabona amafaranga akabasha gutunga umuryango, ikindi kandi ibirayi biba birimo intungamubiri zigiye zitandukanye, zifasha umuntu mu mikurire ye.

Ibigori bihinze bikaba bikiri bitoya, bikaba bitoshye, hakaba hari uruzitiro rw'ibyuma ruhubatse, hakurya hari umusozi muremure, utuyeho amazu ndetse ukaba uteyeho n'amashyamba ku ruhande rumwe.

Umurima munini cyane uteyemo ibigori bikaba bigeze mu gihe cyo kwera, bikazafasha abaturage kubona ibiribwa ndetse no kubona amafaranga bazajya bakoresha mu gihe kiri imbere.

Amazi y'ibiziba atemba mu mukoki, bigaragara nkaho ari imvura yahatwaye, haruguru yaho hari ibigori bihahinze ndetse hakurya hakaba hateye ibiti birebire bifata umurima kugira ngo udatwarwa n'isuri.

Igishanga kinini gihingwaho umuceri hakaba harimo abagore ndetse n'abana barimo kubagara, hakurya hari ibiti ndetse n'ishyamba bihakikije kugira ngo amazi atazagenda.

Ubuhinzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umuhinzi mu kwiteza imbere, akabasha kwitunga ndetse agasagurana amasoko. Mu bihinga twavugamo ibigori, ibishyimbo, tutibagiwe n'imbuto kuko imbuto zifasha umuntu mu kwirinda indwara ndetse no mu kugira ubuzima bwiza.

Ishyamba rinini cyane, rifashe ubutaka bugari rikaba riteyeho ibiti byinshi kandi bifite amashami manini, hashobora kuba habamo inyamaswa ku buryo zakurura ba mukerarugendo.

Amashyamba ni ingenzi ku buzima bw'umuntu kuko amashyamba atanga umwuka duhumeka, agacumbikira inyamaswa zimwe na zimwe zo mu gasozi, ikindi kandi, amashyamba niyakurura imvura, noneho abahinzi bagatera imbere.

Ishyamba ry'inzitane riteye ku buso bunini, rikaba ririmo ibicu by'imyeru, uko bigaragara haramukiyemo ubukonje, rikaba rishobora gukurura ba mukerarugendo mu gihe baje kureba inyamaswa zibamo

Umusozi munini utuyeho amazu abiri ndetse hakaba hahinze n'urutoki n'ibiti birebire, haruguru y'izo nzu, hari ikibuga kikaba kirimo ibyatsi bitoshye, uko bigaragara harisha amatungo.

Ahantu hanini cyane harimo imisozi ndetse hakaba hanateye ishyamba ry'inzitane rikurura ba mukerarugendo ndetse hakaba habamo n'amatungo aba mu gasozi, urugero: nk'imbwa, ibisamagwe, ndetse n'izindi nyamaswa.

Amashyamba ni ingenzi cyane kuko usanga amashyamba atanga umwuka duhumeka, agakurura n'imvura ikabasha kubana n'abahinzi bakabasha agahinga imyakaka yabo igakora neza, ikindi kandi amashyamba acumbikira inyamaswa zimwe zimwe z'agasozi zikabasha guturamo.

Ishyamba rinini, riri ku misozi ine itandukanye, rikaba riteyewe ibiti byinshi cyane, bigaragara ko hashobora kuba harimo inyamaswa zibamo ndetse rikaba ryanakurura ba mukerarugendo, mu gihe baje kurisura.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti bitandukanye by'amoko yose bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo. Uko bigaragara hashobora kuba habamo inyamaswa. Byaba muri bimwe mu bikurura ba mukerarugendo.

Mu muhanda wa kaburimbo, hagati y'umuhanda hagiye harimo utuntu tw'umweru dushushanyije ibara ry'umweru ritandukanya abagenzi n'imodoka, hirya y'uwo muhanda akaba hari amashyamba y'inzitane, yayijyanaye mu muhanda nanone hakaba hari amapoto.

Inzu iri hagati yo mu rutoki hafi y'aho ngaho hakaba hari abantu bari gushungera amagare bigaragara ko ishobora kuba ari mu masiganwa, imbere y'ayo magare hakaba hari moto iri kugenda ireberera amasiganwa.

Amashyamba ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu kuko atanga umwuka mwiza abantu bahumeka, ndetse atanga n'inkwi ku bantu bakazitekesha, n'amashyamba aba acumbikiye inyamaswa zimwe na zimwe zikabasha kubamo zikagira ubuzima bwiza.

Amashyamba ni ingenzi cyane kuko usanga acumbikiye inyamaswa zitandukanye, twavuga nk'inyamaswa zo mu gasozi, ikindi kandi amashyamba atanga inkwi abantu bagateka ndetse atanga n'umwuka mwiza abantu bahumeka.

Amashyamba ni ingenzi ku buzima bwa muntu, kuko atanga umwuka duhumeka agakurura n'imvura abahinzi bakabasha guhinga imyaka yabo ikera neza. Ikindi kandi amashyamba usanga acumbikiye inyamaswa zo mu gasozi nazo zikabasha kugira ubuzima bwiza.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, hakaba hashushanyijeho umubyeyi witeze igitambaro cy'umutuku, ndetse akaba yambaye n'ikanzu y'igitenge.

Iki ni igiti keraho amapapayi, kiriho amapapa yeze neza, mu bigaragara iki giti cyabonye igisabwa byose kugira ngo cyere amapapayi manini, kandi meza nkuko mubibona, kirasa neza rwose.

Abagore babiri bakenye ibitenge, bakaba bunamye mu murima, aho bari gutera imigozi, kera ibijumba bikaba bijyanwa ku masoko, ndetse bakanabitekera abana, cyane cyane abanyeshuri biga mu bigo babayo.

Akarima k'igikoni karimo amashu, ibitunguru, imboga. Kakaba kubabatse imbere y'inzu isize irangi ry'umweru, hejuru y'amadirishya y'ubururu. Hakurya yaho hari urutoki ruhahinze.

Akarima k'igikoni kubabakishijwe imifuka y'umweru, kakaba karimo ibice bitatu ikibanza kirimo imboga, ikindi kirimo karoti, hejuru hakaba harimo ibitunguru, inyuma yaho hari inzu ihubatse y'amatafari.

Abagore batanu bambaye amataburiya ndetse n'ingofero by'imye, bakaba bafite ibikarito bipanzemo uvoka, bigaragara ko bagiye kuzicuruza, bari kuzishyira mu bikarito, kugira ngo zitaza kugera aho zijyanwe zangiritse.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro y'igitaka, akaba ari kumwe n'abagore bari mu mashu bari kuyabagara, ndetse bakagenda banashyiramo amafumbire kugira ngo yere neza.

Ibiribwa cyane cyane karoti, amashu, ndetse n'ibindi bikaba biri ahantu hamwe ku isoko. Bakaba babijyanye kubigurisha kugira ngo abaguzi nibaza mu isoko babone ibyo bacyura.

Hano ndi kuhabona umugabo usutamye uri kubagarira indabyo ze yahinze zimeze neza cyane bigaragara ko ari umuhinzi w'indabyo uzifata neza nk'uko bigaragara zimeze neza kabisa.

Ahantu hanini cyane harimo imisozi ihanamye, hakaba hateye amashyamba, hepfo yaho hari amazi manini, hakaba hubakishijwe ibyuma birimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Kuhira ni igikorwa gikorwa n'umuhinzi, aho usanga icyo gikorwa gikorwa cyane cyane mu gihe k'izuba aho haba hatagaragara imvura, aho usanga imyaka ibameze neza kubera bayuhiye igasangizwa kurana n'umuhinzi akabasha kubona umusaruro mwinshi cyane.

Kuhira ni igikorwa gikorwa n'abahinzi babasha kuhira imyaka yabo kugira ngo ibashe gukura neza mu gihe imvura itari kuboneka navuga nko mu gihe cy'izuba noneho imyaka igakura neza ari nko mu gihe gisanzwe.

Abantu batatu bari mu gikorwa cyo kuhira ibiribwa byabo. Bigaragara ko ari ibigori bari kuhira. Umwe muri abo ari gukoresha imashini yabugenewe kugira ngo bibashe kujyana, kugeza amazi kuri ibyo bihingwa.

Abantu batatu bari ahantu hameze nko mu gishanga. Hakaba hubatse imirasire y'izuba ndetse umwe akaba afite umupira ukoreshwa mu gukuru amazi mu gihe uri kuhira imyaka.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze mu murima uteyemo amashu, akaba afite umupira ukoreshwa mu gutwara amazi, ndetse ukaba unafasha abaturage kuhira imyaka yabo.

Kuhira ni igikorwa umuhinza akora abasha kuhira imyaka ye kugira ngo ibashe gukura neza mu gihe imvura itarimo kugwa, twavuga nko mu gihe cy'izuba niho usanga iki gikorwa gikorwa cyane kugira ngo imyaka ibashe gukura ibashe kumera neza.

Ndikubona umuma uhinzemo ibigori bakaba barawushyizemo sisitemes kugira ngo bibashe kubona amazi, bakaba baracishijemo itiyo rinini cyane ricometseho utundi dutiyo dutoya rigeze rigenda rigira ahantu hapfumuye kugira ngo ribashe gusapulayinga amazi.

Ahantu hateye imibyare ndetse hakaba hubatse n'ingo nkeya hakaba hari amashyamba ateye ku musozi hakurya, uko bigaragara hakorerwa ubucuruzi bw'amakara ndetse no kuyatwika.

Ahantu hanini hari imirima iteyeho amashyamba ndetse ikaba iriho n'ibiti birebire, hakurya hari indinganire ziteyeho imyaka yo kurya, urugero nk'imiceri ndetse n'ingano.

Ndikubona ibidukikije, hagiye harimo ibintu bitandukanye, harimo ibiti, ibiti hakazamo ubusitani n'imisozi n'ikirere bigaragara ko iyi shusho igaragaza awa naco imvayinometi.

Mu Rwanda hari uduce tumwe na tumwe usanga abaturage batuye mu buhaname isaha n'isaha bashobora gutwarwa n'isuri ndetse n'ibindi biza bitandukanye. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kuva mu misozi bakajya gutura ku midugudu.

Ahantu hanini harimo imisozi miremire hakaba hateye ibiti birebire ndetse hakaba harimo n'ibyatsi amatungo ashobora kurishamo mu gihe bayaragiye.

Ahantu hanini harimo imisozi izamutse ndetse n'ihanamye, hakaba hanyuzemo umugezi ndetse hakaba hateye n'ibiti ,ku ruhande aha hantu hakorerwa ubukerarugendo ndetse n'a mazi yororerwamo amafi.

Korora ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umworozi mu kwiteza imbere akabasha kwitunga ndetse agatungwa n'umuryango we ikindi kandi akabasha no gusagurira amasoko, twavuga nko korora inka, intama, ndetse n'inkoko.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umworozi mu kwiteza imbere. Twavuga nko korora: inkoko, ingurube ndetse n'andi matungo atandukanye kuko abasha gutanga ibiyakomokaho. Twavuga nk'inyama ndetse n'amagi noneho umworozi akabasha kubaho neza.

Umurima munini urimo ibyatsi, hakaba harimo inka nyinshi ziri kurisha, ndetse hakaba hateyemo n'ibiti binini zugamamo izuba ndetse n'imvura.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze ahantu ku mbuga, hubatse ibiraro, hakaba harimo inka ziri kuririsha ibyatsi bazihaye.

Inzu irimo amakaro y'umweru ndetse ikaba isize irangi ry'umweru, hakaba hateretsemo igikoresho cy'umuhondo ndetse kirimo andi mabara y'umutuku n'umukara, kikaba kiri aho ngaho wagira ngo gitwara ibintu.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha umworozi mu kwiteza imbere, akabasha gutunga n'umuryango. Twavuga nko korora inka, intama ndetse n'andi matungo atandukanye, aho usanga umworozi abasha kubona ibikomoka ku matungo, twavuga nk'amata n'inyama ndetse n'amafumbire yifashishwa mu buhinzi.

Umurima munini uteyemo ibyatsi bitoshye hakaba harimo inka ndetse n'ihene ziri kurisha hari igiti kinini kihateye gifasha inka kugama izuba mu gihe ryabaye ryinshi.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umworozi mu kwiteza imbere akabasha kubona ikimutunga ndetse agatungwa n'umuryango. Twavuga nko korora inkoko, ingurube ndetse n' ibyo byose bitanga amafaranga, bigatuma umworozi abaho neza.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane, aho usanga umworozi abasha kubona n'ibikomoka ku matungo twavuga nk'inyama, amagi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, aho usanga bimufasha mu kubona amafaranga akabasha kwiteza imbere agatunga n'umuryango.

Ikiraro cyubakishije ibyuma, hakaba harimo isaso ryinshi ndetse hakaba harimo akanyana k'ibara ry'umweru n'icyatsi gafite ihena ku gutwi, kakaba karyamye.

Ingurube nziza zifite ibara ry'umweru ndetse n'izindi zirimo ibara ry'umukara zikaba ziri kurya, hakaba hari iyindi ihagaze inyuma, uko bigaragara ni ubworozi bwa kijyambere.

Ihene nyinshi cyane ziri mu gihuru hirya inyuma y'icyo gihuru hakabaho hari abantu benshi cyane bahagaze, hirya y'abo bantu hakaba hari n'amashyamba maremare bigaragara ko baragiyemo.

Urupangu rurimo inka nyinshi z'inyambo zifite amahembe maremare hepfo yaho hari abagabo bahagaze bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'itaburiya y'umweru, umwe yambaye bote ndetse n'ingofero.

Ubworozi bw'inka ni umushinga mwiza cyane kuko gufasha umworozi mu kwiteza imbere, akabasha kubona ikimutunga ndetse akabasha kubona n'ibikomoka ku matungo twavuga amata ndetse n'inyama, akabona n'amafaranga abasha kumutunga agatunga n'umuryango we.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bwiza cyane kuko kubufasha abaturage mu kwiteza imbere bakabona ibiribwa twavuga nk'amagi, inyama, ikindi kandi ubworozi bw'inkoko butanga amafaranga ku mworozi bikamufasha kwiteza imbere ndetse akabasha no gusagurira amasoko.

Bigaragara ko ari imbuto y'ibigori, izifashishwa mu guhingwa mu gihe kiri imbere cyangwa bakabiryamo impungure, hirya habyo hari insina z'intoki, hakaba hari n'umugabo uhagaze imbere y'izo mbuto.

Umuhinzi ufite imbuto y'ubwoko bwa soya uri kugenda atera mu murima we umurima we yarangije kurima ahubwo icyo ari gukora ni ukugenda atera ateramo imbuto ye.

Ahantu hasutse imyaka yo mu bwoko butandukanye hakaba harimo ibishyimbo, amashaza ndetse n'ibigori, uko bigaragara byahurijwe hamwe bikaba bigiye kujyanwa ku masoko cyangwa bigiye guhabwa abatishoboye.

Ameza akoze mu rubaho, akaba ateretseho agasahani kanini karimo ibishyimbo, bifite amabara atandukanye umutuku ,umweru. Uko bigaragara bigiye gutekwa cyangwa bikaba bigiye kujyanwa ku isoko.

Ibiganza byambaye z'ubururu bikaba biri ku jisho ry'inyamaswa ikunze kwitwa ingurube, iyo ngurube ikaba isa umweru ikaba ifite ikibazo ku jisho.

Abagabo batatu bambaye ibisarubeti by'ubururu ndetse hakaba harimo umwe wambaye ingofero y'umweru na bote z'umweru, hirya yaho hari umugore wambaye itaburiya y'umweru, bakaba bari ku gipangu bashyiramo inka z'inyambo zifite amahembe maremare.

Inka zifite amahembe maremare zubakiye mu rupangu rwubakishije ibyuma, inyuma yaho hari abagabo bahahagaze bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'amataburiya y'imyeru.

Ubworozi ni umwuga mwiza cyane wo gufasha aborozi mu kwiteza imbere ariko usanga amatungo yatatswe n'indwara zitandukanye. Niyo mpamvu usanga hari abaganga b'amatungo bafasha kuvura amatungo agakira, akabasha gutanga umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, uzwi nk'umuvuzi w'amatungo, akaba ari inyuma ku gipangu bashyiramo inka mu gihe bagiye kuzivura cyangwa kuziha izindi serivisi.

Abaganga b'amatungo n'abantu babasha gukemura ibibazo amatungo aba afite, twavuga nko kubyaza ndetse n'ibindi bikorwa amatungo akenera kugira abashe kubaho neza, agira ubuzima bwiza abashe gutanga umusaruro ushimishije.

Igipangu kinini bashyiramo amatungo hakaba harimo inka z'Inyambo zifite amahembe maremare, inyuma yaho hakaba hari abagore n'abagabo bahagaze bambaye ibisarubeti ndetse n'amataburiya y'imyeru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ishati, akaba yambaye n'utundi tuntu mu ntoki tw'ubururu, afite igikoresho cy'umweru ari kureberamo giteretse imbere ye ku meza.

Inyamaswa z'agasozi ziba zifite akamaro kanini cyane kuko usanga zikurura ba mukerarugendo, bakazana amafaranga noneho igihugu kikabasha gutera imbere binyuze mu mafaranga abakerarugendo bazana baje gusura izo nyamaswa.

Amazi magari arimo inyamaswa bita imvubu hakaba harimo n'akana kayo, uko bigaragara iri muri bimwe mu bikurura ba mukerarugendo baza kubizisura, hakaba hororerwamo amafi muri ayo mazi.

Hano ndi kuhabona igisamagwe gifite uburakari bwinshi cyane gusa ikintu gifite cyihariye gifite ibara ryiza cyane rikeye kabisa.

Inyamaswa y'inkazi bita ingwe, ikaba ifite amabara ku ruhu rwayo ndetse ikaba ifite n'amaso y'umukara, ikunda kuba muri parike ndetse no mu mashyamba manini aho iba kure y'abantu.

Inyamaswa y'inkazi abenshi bayiziho kuba ari intare ikaba iba mu ishyamba ndetse ikanariyobora, yicaye ahantu imeze nk' ihumirije ndetse ikaba yazanye inzara zayo imbere.

Inyamaswa nini, ihagaze ahantu ku mbuga, bakabayita inzovu, inyuma yaho hari indi iri mu byatsi, izi ngizi ziba muri pariki, zikaba zikurura ba mukerarugendo, baje kuzisura.

Ndi kubona imbata eshatu, ebyiri zirasa zikaba ziri mu gace kazo aho bigaragara ko ziri mu mazi, hakaba hagiye harimo n'utwatsi twagiye tugwamo, indi ikaba iri ku ruhande ikaba yo iri yonyine, ikaba iri mu mazi hakaba nta twatsi two turimo.